Abarimu barigisha amasomo, abana bakajya bayafata kandi bikagenda neza. Kandi ndabona bameze neza nta kibazo bajya bagira.

Abanyeshuri barimo kwiga kandi twese tujya twiga, ndabona bari gufata amasomo, mukanya bagiye gutaha bajye kurya ibiryo.

Aba banyeshuri bajya batekinika bagakora ibintu bitandukanye, bakiteza imbere bagashaka n'umurimo, bakabona amafaranga menshi cyane.

Uyu ni umutekinisiye, ajya adufasha mu ikoranabuhanga kandi tukamuha agafaranga, na we akiteza imbere. Murabona ko na we ari kujya abikora neza.

Abaganga bajya badufasha mu buryo bushoboka, kandi bakatuvura tugakira. Iyo tugiye kwa muganga , tuba twizeye ko bari budufashe, tugasubira mu rugo dukize.

Uyu muntu avura amatungo ,uyu n'umuvuzi w'amatungo, ajya afasha abaturage mu bibazo bitandukanye bahura na byo mu matungo yabo, kandi akabafasha bakabona amafaranga.

Abanyeshuri bajya biga Ikinyarwanda kandi n'icyongereza bakagifata, bagasubiza mwarimu, akajya abaha amanota menshi cyane.

Abanyeshuri barimo kwiga kandi, amasomo bajya bayatsinda, kandi ndabona bari kwiga amasomo menshi. Nanjye ndi kubona ari byiza cyane rwose bameze neza, kandi bazabitsinda, babyiga neza.

Uyu ni umutetsi, ajya ateka umureti, umureti tukawurya, agateka n'agafiriti, agafiriti nako tukakarya, kandi ubuzima bukagenda neza tukabaho.

Abanyeshuri bajya ku ishuri bakiga amasomo atandukanye, kandi bavayo bakajya gufasha ababyeyi mu buryo bwose.